Minisiteri y'ubuzima ifite uruhare runini mu guteza imbere ubuzima bw'abaturage, itanga serivisi z'ubuzima zirimo: gukingira indwara, kuvura indwara no kwita ku buzima rusange.